Icyapa cyamamaza cya sosiyete y'ubwishingizi yitwa buritamu, hakaba hari umuntu ufashe umukasi ubona ko yambaye ishati y'umweru akaba arimo arakata igitambaro cy'umukara, i ruhande rwicyo gitambaro hakaba hari akandi gatebe gatoya kari aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari, icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, irimo abagabo babiri, umwe uhagaze n'undi wicaye, imbere yacu hari amacupa atatu y'ubwoko butandukanye Skol, Mutzing n'Amstel.

Inzu y'ubucuruzi bwakabari harimo umugabo umwe usuka amacupa abiri mw'ijage na kontwari irimo amacupa yinzoga hari izisembuye ni izidasembuye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari harimo etajeri zirimo inzoga n'amafanta, harimo bw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hakaba harimwo n'abantu benshi bagaragara yuko bizihiwe abicaye kuri kontwari bafite n'inzoga.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo akabari hakaba harimo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, iruhande rwaho hari firigo, vandarateri, umutako urimo umusambi, hari n'umuntu ugaragara mo gakeya, mu imbere hari ikirahuri kirimo inzoga n'umutako urimo uturabyo tw'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, harimo abantu babiri bambaye amajire y'umuhondo, na kontwari imbere yabo iteretseho icupa n'ibirahure, hakaba hari na etajeri irimo amayoga bacuruza aho ngaho n'intebe ziri aho hasi abantu bicaraho.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari hakorerwamo ubucuruzi butandukanye bw'ibijyanye n'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, iyo inzu ikaba yubatse muburyo bw'ibiti hakaba harimo firigo tubona ebyiri imwe iri mu ibara ry'umutuku indi iri mu ibara ry'icyatsi tukaba tubona kontwari.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'akabari, ahacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo umugabo uhagaze urimo urareba tereviziyo, firigo n'amabyeri ari muri kontwari no muri etajeri, hakaba hari intebe ziri aho ngaho n'imeza zigera muri eshanu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, kigaragaza yuko ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'akabari, icyo cyapa kikaba cyanditse mu izina ry'inzoga yitwa amusiteri biya, munsi yaho hakaba hari igare n'umuntu urimo uratambuka n'abandi babiri bahagaze ku ruhande.

Inzu ikoreramo ubucuruzu bw'akabari haba harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, haragaraga umugabo umwe na televisiyo n'ibyapa bibiri n'inzoga zimuri kotwari n'inzindi zir'imbere y'abantu barimo baranywera aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo akabari, bucururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo abantu benshi barimo baranabyina. Imbere yaho tubona amacupa abateretse imbere ya za mitsingi, amafanta na za sikoru.

Akabari gacururizwamo ibinyombwa bisembuye n'ibidasembuye amayoga z'amarikeri, amabyeri hakaba harimo abantu babiri, umugabo umwe wambaye ingofero wicaye ku ntebe hakaba n'izindi ntebe ebyiri ku ruhande rwiwe, hakaba hari n'undi mugabo ugomba kumusavinga.

Icyapa kiririmo ibara ry'umutuku kigaragaza yuko aho hafi hari akabari, gacururizwamwo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, haparitse moto iriho umugabo umwe wegamye kuri icyo cyapa, hari icupa rya gaze n'umuryango ufunguye ukorerwamwo ubundi bucuruzi butandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hakaba hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, birimo ibisembuye n'ibidasembuye. Tukaba tubona kontwari, tukaba tubona etajeri irimo inzoga, tukaba tukabona intebe eshatu n'izindi zitagaragara neza, n'abantu barimo barakoreramo.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hari abantu babiri bicaye ku ntebe, intebe zihari ziri eshatu, na etajeri irimo ibinyobwa, na televiziyo imbere yabo barimo barareba, na firigo ku ruhande.

Uru ni urupapuro rwo mu kabari cyangwa muri resitora rugaragaza ibicuruzwa biri aho hantu haba mu kabari cyangwa muri resitora, aho uru rupapuro turubonaho ibiryo bigiye bitandukanye amaji, amafanta n'amawayine n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi bacururiza muri ako kabari cyangwa resitora.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'akabari harimo contwari yubutse mu buryo bw'ibiti hakaba hari na firigo zirimo ibinyobwa bitandukanye ibisembe n'ibi bidasembuye, hejuru hakaba hari akapa k'icyatsi imbere hakaba hari imashini.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hakaba harimo etajeri irimo inzoga, ibirahure n'amatasi, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ishati y'umweru na karuvate y'umukara ufashe irahure.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari icururizwamo ibinyobwa bisembuye abantu babiri bagaragaza ibiganza byabo, ibirahure bibiri, utuyiko tubari imbere dutatu n'indimu zikase iruhande rwabo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hacuririzwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, haba harimo ibisembuye n'ibidasembuye, harimo imeza iteretseho inzoga amacupa abiri arimo ibara ry'icyatsi hakaba n'ibirahure bigera muri bine birimo inzoga

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hacururizwa ibinyobwa bitandukanye, birimo ibisembuye n'ibidasembuye, hicayemo abagabo babiri bicaye ku ntebe ziri eshatu, na kontwari bahagazeho, na etajeri irimo aho ngaho na televiziyo barimo barareberaho umupira.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hakaba hacuruzwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye hagaragaramo abantu benshi inzu ikaba iri mu ibara ry'umukara ariyo mabara yiganjemo, amatara yaka ubururu n'andi matara yaka umutuku, harimo abantu b'ingeri nyinshi harimo abakobwa n'abahungu hakaba hari inzoga za byri zibateretse ahantu.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari icurizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo imeza n'intebe zo kwicaho n'abantu bazicayeho, hejuru ku meza akaba ari amacupa y'ibyo kunywa hejuru kuri iyo nzu hakaba hari icyapa cy'inzoga yitwa heineken.

Inzu y'ubucuruzi hakaba hari gucururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye harimo umugabo umwe uri gucuruza n'ayo macupa amuri imbere, hejuru hari icyapa cya henikeni n'igishushanyo kiri ku gikuta cya shamiyonizilige k'igikombe cya shampiyonizilige.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku kigaragaza ahantu hakorrwa ubucuruzi bw'akabari, icyo cyapa kiriho abantu bagera muri bane, abagabo babiri n'abakobwa babiri, munsi yaho hariho ikindi cyapa nacyo kijya kumera nk'icyo ngicyo.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, harimo abantu benshi bizihiwe b'abakobwa n'abahungu, biteretse imbere amacupa ya byeri n'aya likeri, barimo baranywa.

Iki ni icyapa kigaragaza yuko aho hari akabari ka welezi bare kwicyo cyapa hariho ubwoko bw'inzoga yitwa sikolo, hakaba harimo abagabo bagera muri babiri n'abakobwa babiri bagaragaye yuko bizihiwe.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'akabari hakaba harimo na resitora, hakaba imbere yacu hari imeza iteretseho ibirahure n'icupa ry'inzoga hakaba hateretseho n'isahani iriho ifoke iriho n'ibirbwa biriho amafiriti, n'ibindi biribwa bitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hakaba harimo umusore umwe w'umucuruzi na kontwari irimo na etejeri irimo ibinyobwa bitandukanye haba ibisembuye n'ibidasembuye n'intebe iri iruhande zigera muri eshatu, hakaba hateretse n'imashini imbere yiwe.

Icyapa kigaragaza yuko ahongaho hakorerwa ubucuruzi bw'akabari, hakaba hari moto iriho umugenzi n'umumotari, bose bambaye kasike, hakaba hari imodoka iruhande rwabo, zigera muri eshatu, imwe yerurutse n'indi y'umukara, ku icyo cyapa hakaba higanjemo ibara ry'umutuku n'umweru.

Ahantu hari akabari, tubonaho icyapa cy'uruganda rwa SKOL hasi hakaba hari amapave. Kw'icyo cyapa hakaba hashushanyijeho amagambo hashushanyijeho n'ikarita y'afuruka iri mw'ibara ry'umutuku, n'ayo magambo akaba ari mw'ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari harimo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo intebe ziri mu ibara ry'umutuku, hari icyapa cya mitsingi, amakaziye arimo inzoga, n'akabati karimo inzoga zindi zitandukanye za rikeri, n'amabyeri, n'amafanta.

Icyapa kigaragaza ko hakorera ubucuruzi bw'ibijyanye n'akabari na resitora, kiri mu ibara ry'umutuku, amazina yandikishije ibara ry'umweru, hariho inzoga ya amusiteri n'ikirahure kirimo inzoga ya amusiteri, munsi yaho hakaba hari ahagaraga ho gucuruza imyenda, hari umuntu uhahagaze, ni robo igaragaza imyenda.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba hari imeza, hakaba iyo meza iriho amavide abiri ya amusiteri n'ibirahure bibiri birimo byeri, n'abandi bantu bicaye hirya yaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza akabari hakaba hacururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye birimo ibisembuye n'ibidasembuye tukaba tuhabona kontwari na etajeri irimo ibinyobwa tukaba tuhabona televiziyo itarimo iragaragara neza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari. Harimo umugore n'undi muntu umwicaye iruhande. Hari imeza, hari ibiti bikikije aho ngaho, hari na kontwari igaragara inyuma yiwe.

Inzu y'ubucuruzi bujyanye no gucuruza akabari hakaba arimo imeza zikoze mu biti, iyo nzu ikaba yubatse mu biti, ukabona yuko ari inzu ishobora kuba yubatse mu buryo bwa Kinyarwanda, hakaba ariho imitako ku ruhande rwahokaba ari firigo tubona na contoir yubatse mu biti.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo akabari, harimo abagore babiri n'abagabo batatu bakaba barimo baranywa ibinyobwa ibisembuye n'ibidasembuye, amafanta, mitsingi. Bakaba bicaye ku ntebe enye n'amameza abiri imbere yabo.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari karimo inzoga zitandukanye zirimo amalikeri, amabyeri n'amafanta. Hakaba hari n'icyapa cya henikeni, hakaba hari n'intebe n'imeza biteretse ahongaho, hakaba harimo na televiziyo igaragaramo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye; ibisembuye n'ibidasembuye, harimo firigo, harimo televiziyo, harimo abantu babiri bahagaze, n'intebe, n'imeza eshatu ziri ahongaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye harimo abantu babiri aribo abakobwa n'ameza na kontwari na etajeri na firigo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hakorerwamo ubucuruzi bijyanye no gucuruza inzoga n'ibindi binyobwa bidasembuye, hari televiziyo, amacupa ari muri kontwari n'andi macupa ari muri etajeri aho ngaho hacururizwa n'imeza iteretse aho iruhande n'intebe ziri aho ngaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'iby'akabari, harimo intebe zisa imikara na kontwari na etajeri zirimo ibyo kunywa, hakaba hari na televiziyo imbere ahongaho, hakaba hari n'abantu bagera muri bane, barimo umugore umwe n'abagabo babiri, barimo barafarata ibyo kunywa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, umugabo uhagaze, ufite ijage munsi, akaba afite igikombe arimo arasukamo n'akandi gakombe arimo arasukisha, akaba ateruye icupa ry'inzoga ya likeri, akaba ari mu kabari kiganjemo ibara ry'icyatsi.

Icyapa kigaragaza yuko aho hantu hari akabari kitwa Barbecue house icyapa kiri mw'ibara ry'icyatsi harimo icupa y'inzoga bita Virunga n'ikirahure kirimo iyo nzoga hakaba harimo amazina yandikishize mw'ibara ry'umweru n'icyatsi cyerurutse.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza akabari, hakorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hari amakaziye arimo byeri n'amafata, hari etajeri irimo fanta, n'amaji n'amarikeri, ahongaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gucuruza ibyo kurya, hari imeza ziri aho na televiziyo n'abantu bahagaze n'undi wicaye n'abandi bicaye ku ruhande rwabo babiri n'intebe y'umukara iri k'urwo ruhande.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'akabari, akabari gacururizwamo inzoga zigiye zitandukanye, n'ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo abantu bagaragara; abadamu, abakobwa, n'abagabo, imbere yabo hakaba hari televiziyo barimo bareberamo umupira.

Icyapa kigaragaza y'uko aho hantu hari akabari cyiriho inzoga ya mitsingi impande hari umutaka wa sosiyete ya emutiyeni n'umuntu umwe uhagaze aho ngaho n'imodoka eshatu ziri aho ngaho imbere y'ako kabari.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hacururuzwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, turabona icupa rya tasika, ry'icyatsi, televiziyo ebyiri, imeza, n'intebe zo kwicaraho abantu bicaye ho, n'umuntu uhagaze iruhande ahongaho.

Mu nzu y'ubucuruzi bw'akabari burimo inzoga zisembuye n'ibindi binyobwa bidasembuye kuri kotwari, intebe y'umuhondo n'umuntu ufashe terefone mu ntoki, wambaye ingofero y'umweru, wambaye n'umupira w'umweru.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye ako kabari kakaba kitwa babakiwu hawuze iruhande rwaho hakaba hariho icyapa kigaragaza inzoga ya virunga iri mu ibara ry'icyatsi icyapa cyaho kikaba kiri mu ibara ry'umutuku n'ayandi mabara y'umuhondo.

Icyapa cy'umutuku kiriho ikirango cya Amusiteribiya, kigaragaza ko aho hantu hari akabari, akabari gacururizwamo ibiribwa bisembuye n'ibidasembuye, Ako kabari kakaba Kari mu izina ry'umweru ryitwa Bahamasi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi busembuye n'ubudasembuye hakaba harimo umugabo ufite ikirahure imbere kiwe harimo byeri hakaba hari n'isahani iteretseho inyama, ibindi biribwa biri iruhande rwiwe n'agacupa kari aho ngaho iruhande rwayo.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'akabari. Hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye. Harimo amabyeri abiri ya pirimusi; ikirahure kimwe kirimo byeri, akapa ko kwishyuriraho ka mobiro mane, n'akandi kapa ko kwishyuriraho ka eyateri mane. Hakaba hicaye umudamu imbere yaho, n'abandi bicaye imbere y'iyo meza batagaragara neza.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza akabari, hakaba hacururizwa ibinyobwa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo abagabo, n'abandi bantu benshi, harimo uwo barimo barasavinga, hahereza ibicuruzwa basabye, ibinyobwa basabye.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo akabari hakorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, harimo intebe ziri mu ibara ry'umuteku ziriho icyapa cy'iyi nzoga yitwa amusiteri n'amacupa ateretse hejuru ku mameza.

Icyapa cy'akabari kitwa bahamasi pabu, hakaba hari na anteni ya kanari pulisi, hakaba hari n'inzu ndende n'izindi antene ebyiri zindi zikurikiyeho za kanari pulisi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari hakaba hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo kontwari irimo izo nzoga hakaba hari televiziyo hakaba hari imitako myinshi itandukanye mu buryo butandukanye hakaba hari intebe, n'imeza iri aho ngaho iteretseho.

Iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, harimo umugabo umwe, harimo utuntu tw'udutara tubiri, na tereveziyo ebyiri n'ibinyobwa biri kuri kontwari, n'ibindi binyobwa biri muri etajeri bigaragara ahongaho muri ako kabari.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibinyobwa bitandukanye: ibisembuye n'ibidasembuye yitwa akabari, hakorerwamo ubwo bucuruzi, hano tukaba tubona inzoga iri mu kirahure n'indi iri mu icupa, icupa rya virunga, ikaba iteretse ku meza hariho agatapi k'umukara n'imeza y'umweru.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'akabari harimo ibicuruzwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, imbere yacu tukaba tubona icupa rya amusteri na kirahuri cya byeri hirya tukaba tubonayo umugabo na televiziyo ebyiri imbere yiwe.

Inzu y'ubucuruzi bw'akabari, harimo abantu babiri; umugabo umwe n'umugore umwe, iyo nzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hari kontwari na firigo.

Inzu icururizwamo ubucuruzi bw'akabari, irimo kontwari na etajeri irimo amayoga, n'ikirahuri giteretse kuri kontwari kirimo byeri ya amusiteri, ifite akabara k'umutuku n'umweru n'amagambo yanditse mu mukara.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'akabari gacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, hakaba harimo kashipowe aho bacanira hakaba hari intebe eshatu n'meza iri aho ngaho imbere y'aho hakaba n'umuryango ufunguye muburyo uba ureba hanze mu muhanda.

Icyapa kigaragaza ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'akabari, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umutuku n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hakaba hariho inzoga y'ubwoko bwa amusiteri hariho n'ikirahure hakaba hari n'ikindi cyapa hejuru yaho kijya gusa nkacyo cy'umutuku n'umweru kiri muri iryo bara.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'akabari, hakaba harimo intebe zitandukanye ziri mu mabara y'umutuku, hakaba hari parafo irimo ibara ry'umweru n'akandi kantu k'umutuku kazenguruka kameze nk'itara, hakaba harimo n'izindi ntebe zisa ikijuju, iyo nzu ikaba ari inzu iri hasi hayo hameze nk'amabara y'umukara n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo akabari hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye harimo abagore babiri abagabo babiri begeranye nabandi umugore n'umugabo bari iruhande rwabo nundi wicaye imbere ye hari ikirahure kirimo inzoga n'icupa nindi nzoga kuruhande rwiwe.

Munzu y'akabari, hacururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Hejuru hariho amatara arenga arindwi, intebe hasi nazo zirenga umubare runaka, imeza n'akabati na kontwari na furigo.

Ahakorera ubujyanye n'ubucuruzi bw'akabari, mu nzu ifitemo ama etajeri agaragaramo inzoga, n'intebe ziri hasi ya kontwari zigera muri enye z'umukara na kontwari ikaba ifite akabara k'umweru mu nzu hakaba hasa umweru.

Icyapa cy'akabari kiri mw'ibara ry'umutuku kiriho icyapa cya amusiteri, igare na moto ebyiri, imwe itwawe n'umuntu urimo uragenda mu muhanda umwe n'uhagaze imbere y'igipangu n'imodoka y'umukara ibari iruhande.

Inzu icururizwa mo ubucuruzi bw'akabari ikaba yubatse mu bwoko bw'ibiti, irimo intebe z'ibiti n'abantu bahagaze ahongaho iruhande rw'itebe, harimo contori na televiziyo akabarimo ubucuruzi butandukanye bw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Ahakorerwa ibijyanye n'ubucuruzi bwo gucuruza imyenda hakaba hari utumeza tubiri duteretseho imitaka, utwo tumeza tukaba turi mu mabara y'umweru; hakaba n'indi iruhande rwayo hakaba hari utundi twuma duteretseho amashati.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amamodoka hakaba hari imodokadoka iparitse aho ngahoka hari n'abagabo babiri bari ahongaho bafashe icyapa kigaragaza uruganda rucuruza izo modoka arirwo rwitwa akagera bizinesi gurupe hakaba harimo n'umugabo ufashe agakapu k'umutuku iruhande rwaho.

Imodoka iri mu mabara y'umweru ifite amapine y'umukara, iruhande rwayo hakaba hari indi modoka irimo amabara y'umutuku hicayemo umuntu, imodoka y'umweru yo nta muntu wicayemo ikaba ifite purake iri mu ibara ry'umweru yanditseho Kigali kare maketi.

Inzu ikorerwa mo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata ,hakaba harimo utubido mu imbere hakaba inzu iri mu ibara ry'ubururu, iyo nzu ikaba ari iy'inyange miriki zone . Hakaba hari akana kari ku cyapa n'ikindi cyapa kiri hejuru y'iyo nzu iri mu ibara ry'ubururu n'umweru kiriho iyo sosiyete.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'amata, n'ibindi bijyana nayo; amazi, amata, yawurute, amagi. Iyo nzu akaba ari iy'uruganda bita Nyanza miliki indasitiri. Hakaba harimo ibyuma bifasha kubika ayo mata, hakaba harimo intebe n'imeza ziri mw'ibara ry'umweru.

Agatebo gateretse ku meza, karimo udupapuro tw'isuku twifashishwa mu nzu zitandukanye zitanga ibyo kurya, ziri mu ibara ry'umweru, hakaba hagaragara amakaro ari mu ibara ry'umweru, imeza ikaba iri mu ibara ry'umutuku.

Iyi nzu ikorwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'amata n'ibindi binyobwa bitandukanye, n'ibindi biribwa bitandukanye, birimo amaji, amafanta, amabiswi amayawurute n'amasambusa, hakaba harimo abantu babiri, umwe uteruye akajerikani kumweru n'undi urimo arasaba serivisi mo aho ngaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata hakaba harimo firigo iri mu ibara ry'umweru ifunguye, irimo ijagi n'amajerekani yo mu ibara ry'umweru hakaba harimo n'uducupa tw'amazi n'indi jagi iri mu ibara ry'icyatsi iruhande rw'aho hakaba hateretse utubido turi mu ibara ry'umweru.

Aka ni agatebo gaterekwamo ibintu bigiye bitandukanye

Inzu ikoremo ubucuruzi bw'amata n'ibindi biribwa nk'amandazi, amakeke n'indi migati, hakaba ari imeza iteretseho isahani iriho irindazi n'agapapuro k'isuku n'intebe ibiri iruhande.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata turabonamo kontwari yo guterekamo amabido nutubido dutoya, tukaba tubona iyo kontwari irimo utubido twinshi dutandukanye twa umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, harimo: abagore babiri, umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu, uteruye amakarito y'amata, inyuma hari firigo ebyiri zirimo ibyo bicuruzwa by'amata n'amayahurute.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hakaba hacurizwa ibinyobwa bigiye bitandukanye haba amata, n'ibindi amaji nibindi bitandukanye, hakaba hari imeza iruhande rwaho, hakaba hari intebe ebyiri ziri kwiyo meza, hakaba hari indobo iri hanze iri mu ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata na ji na fanta, firigo imbere yabo akameza, indi firigo kurundi ruhande n'abantu babiri umukobwa n'umuhungu n'inebe niyo ibari imbere.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata, hakaba hari imeza iteretseho ibirahure bibiri birimo amata, hakaba n'intebe iruhande rwaho n'akajerekai gateretse hejuru kuri iyo meza, aho ahantu hakaba ari ahantu hafite ibara ry'umweru.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hahagaze umwana cyangwa se n'abandi bantu babiri bamuri inyuma, uwo mwana ufashe telefone mu ntoki, imeza imuri iruhande n'amakaro y'umweru arimo iyo nzu n'icyapa cy'umweru n'umutuku n'umukara kirimo iyo nzu.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hakaba hacuririzwa amata atandukanye inshyushyu cyangwa ikivuguto; hakaba hateretse icyansi kimwe, hakaba hateretse ubujerekani bubiri ku meza y'umweru hari n'abana babiri barimo baranywa amata bateruye na keke, n'umugabo ubahagaze hejuru wambaye umupira w'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata hakaba harimo umugabo ufashe akajerekani wicaye ku ntebe y'umweru urimo aravoma amata y'andi mu ijage hakaba hari etejeri irimo ibicuruzwa bitandukanye n'ibiri mu mabogisi n'ibindi ku ruhande n'amakarito y'amazi ari mu nsi yiwe.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata irimo icyuma babikamo ayo mata na furigo iri mw'ibara ry'umutuku iriho icupa rya koka kola n'umugore. Imbere hari itasi irimo amata, nikindi kirahure kirimo amata n'amasahani abiri ariho imyumbati n'amandazi.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata; hakaba hagaragara ibikombe bigiye biri mu mabara atandukanye, nko muburyo butandukanye harimo: ibara/amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu, hakaba hari umuntu ufashe ijage arimo arasuka mu gikombe; hakaba hagaragara n'icyapa kiriho ayo mata kiri mu ibara ry'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hahagazemo abantu babiri, harimo umugore ufashe telefone, hari imeza iteretseho ijage y'ubururu, na kontwari irimo amandazi, n'udukarito tw'amata, na etajeri irimo amaji, iyo nzu ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata y'uruganda Inyange indasitiri imbere yaho haparitse imodoka y'umweru irange iyo nzu isize ni ibara ry'ubururu n'umweru irimo ibishushanyo by'urwo ruganda.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa b'ijyanye n'amata n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hari injerekani, harimo utubido hari ijage irimo irasukwamo amata, n'indobo irimo irasukwamo amata, n'umudamu umwe n'undi mwana utegerereje aho kuruhande ayo mata aje kugurisha.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, harimo abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, umuhungu uhagaza wambaye umupira w'umukara, harimo firigo iri mu ibara ry'ubururu n'indi firigo iri mu ibara ry'umweru, hari intebe y'ubururu, icyuma kibikwamo amata, na etajeri irimo amazi na ji.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, tukaba tubona ibikombe bigera muri bine birimo amata n'ijage irimo amata, n'agafuniko k'injerekani gasa umutuku, n'amasahani, biteretseho atatu n'umuntu uteruye injerekani y'amata arimo arasuka amata, hakaba hari akabati n'indobo, itaburiya yambara ari mu kazi.

Inzu ikorerwamo ibijyanye no gucuruza amata, akaba ari nzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari imeza y'umweru iteretseho akantu k'agacupa karimo kirida.

Ahakorerwa ibijyanye n'ubucuruzi bw'amata hagaragara amayahurute ari mu ducupa turi muri etageri n'andi ari mu dukombe ari hejuru yaho atagaragara neza, izo etajeri akaba ari iz'utwuma...

Inzu y'ubucuruzi bw'amata, hakaba harimo amakarito y'amata, amacupa ya ji, amakarito ya ji, fanta, amagi, n'ijage, n'imeza, n'icyuma babikamo ayo mata.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata na capati, n'igikombe n'isahani, n'akabati karimo ibikoresho n'imeza n'intebe iruhande rwabyo, na amverope n'utundi dupapuro.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata harimo icyuma babikamo ayo mata hakaba harimo intebe itagaragara neza kaba harimo kontwari harimo amazi n'amaji, hari n'umudamu ubyibushye imbere hari igikombe cy'amata afashe telefoni mu ntoki hakaba hari na frigo iri mu ibara ry'umutuku n'icyapa cya coca cola.

Inzu icururizwamo ibijyanye n'amata harimo umumama uhagaze uteruye ijage irimo amata, umufuniko w'ijage uri kumeza y'umweru, intebe y'umweru n'indi jage iteretse aho ngaho ku meza, tuhabona n'icyuma kitagaragara neza babikamo amata, n'ibyapa bigaragaza uruganda rugemura amata aho ngaho ari rwo Inyanza milike indasitiri.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata irimo igikombe kirimo amata na bike n'umuntu ufashe keke n'imeza icyo gikombe giteretseho n'indobo iruhande rwaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata n'ibindi binyobwa bitandukanye birimo amazi, ji, fanta n'ibindi biribwa bitandukanye, harimo amakeke n'ibindi bitandukanye, tukaba tuhabona amazi ya Nile n'amverope ebyiri, inini n'intoya.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hicaye abana babiri ku ntebe n'imeza y'umweru, ku iyo meza hakaba hateretse ubujerekani bubiri n'icyansi kimwe, abo bana bakaba bateruye ibikombe bibiri birimo amata na keke mu ntonki bombi, n'umugabo ubahagaze iruhande wmbaye umupira w'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, igaragaramo intebe n'imeza ebyiri, intebe enye, hari n'icyapa cy'ubururu kiriho utujerekani n'utubido, hakaba na etajeri irimo amazi n'amajerekani abiri n'indobo irimo amakeke n'icyuma babikamo ayo mata.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata yitwa Mukamira. Hejuru hariho icyapa kigaragaza iyo nzu icururizwamo, n'ibyuma birimo imbere bibikwamo amata. Hicayemo umugore hanze haparitse imodoka iruhande rw'aho hari akazu.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo amata, harimo abagabo babiri n'umugore umwe, hari n'igikombe cy'amata n'icyapa hejuru yabo kigaragaza ahacururizwa ayo mata.

Amapureti atanu arimo amagi harimo ipurete imwe iri hejuru ituzuye amagi, hakaba iruhande rwaho hahagaze umugabo wambaye itaburiya ya oranje ucuruza ayo magi.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo amata hakaba harimo abagabo bagera kuri bane umwe uteretse igikombe ku meza, undi arimo arakinywa, undi wicaye ku meza n'undi wicaye ku meza n'umudamu urimo imbere muri kontwari na etajeri irimo utubido.

Inzu icururizwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata. Hari imeza iteretseho ibikombe bibiri, imirimo amata n'ikindi kirimo icyayi. Iruhande rwayo hari intebe y'ubururu, hicaye umudamu ku yindi ntebe, ubyibushye, firigo iri iruhande rwayo mu ibara ry'umutuku n'icyuma kigaraga, itunganyirizwamo amata.

Ahakorera ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hakaba hacururizwa n'ibindi bitandukanye byo kuyafatisha urya, tukaba tubona keke ziri ku isahane, ziteretse ku meza y'umukara, izo keke zikaba zifite udushashi i ruhande rwazo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ikorerwamo na sosiyete yitwa Nyanza milk industry icyuma gitunganya ayo mata kiri mu ibara ry'ubururu, imeza uruhande rwayo, intebe n'ikindi cyuma gifasha cya cyuma gukonjesha amata ari muri iyo firigo.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata, hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku n'undi wambaye umupira w'umukara, akaba ari mu ruhande rw'aho umukobwa wambaye umupira w'umutuku, bose bateruye amata ya yahurute mu ntoki, inyuma yaho hari firigo na kontwari.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo ubucuruzi bw'amata, harimo abantu bagera muri batandatu, bafite ibikombe bitandatu, aba bantu ntibagaragara neza, hari kontwari imbere yabo iteretseho isahani, hakaba hari n'indi meza iri aho hasi iteretseho isahani, hariho n'umugati, n'akandi kasorori ku ruhande.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata n'ibindi by'ibiribwa, amakeke n'amandazi n'ibindi bitandukanye hakaba hari imeza iriho isabani. Isahani ikaba iteretseho irindazi ryariweho na Keke n'ikiyiko, n'ikanya, hakaba hari n'igikombe kiri aho kuruhande kirimo icyayi n'umuntu ugifashe no hirya yiwe hakaba hari undi muntu uhagaze wambaye ipanaro y'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo amata n'ibindi bitandukanye by'ibiribwa birimo amasambusa, tukaba tubona amasambusa ku meza ateretse ku isahani.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata irimo amakaro y'umweru, hakaba harimo ibyansi birimo amata, n'ijage, n'utubido dutoya. Ibyo byansi bikaba byuzuye amata byose.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata harimo umudamu uteruye ijage y'icyatsi nibinikira yubururu, urimo urasuka mu kabido k'umweru amata. Hari nidirishya rifunguye, intebe ku ruhande rwiwe n'icyuma kivanwamo amata iruhande rwiwe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata aho hakaba hari terimusi ebyiri hakaba hari akadobo gateretsemo capati zikaba ziri ku kameza k'ubururu, hakaba hari umuryango urimo amabara y'umweru n'ubururu.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'amata harimo umuntu umwe uryamye ku meza iyo nzu ikaba ifite amakaro hasi hakaba hari icyansi iruhande rwacyo, bigaragara yuko uwo muntu ari kumwe n'undi muntu barimo baravugana iruhande rwiwe, ikaba iri mu ibara risa umukara ukubona iyo foto.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata n'ibindi biribwa bitandukanye birimo nk'amadazi n'ibindi binyobwa bitandukanye birimo amaji n'ibindi, hari etajeri irimo amaji, hakaba kontwari iteretseho agakarito k'umuhondo, hakaba iruhande rwaho firigo yo gukonjesherezamo ibinyobwa biri aho ngaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kugurisha amata, ari mu nzu iri mu ibara ry'ubururu, umuryango w'umweru, indobo iri ku meza y'umweru, imineke n'amagi n'amandazi ari mu ndobo, intebe ziri hanze, n'umuntu uhagaze aho iruhande, n'aga paniye kari munsi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, harimo: etajeri imwe, utujerekani tw'umweru twinshi hejuru, amayahurute munsi y'aho, andi mayahurute ari mu dutebo, n'ibyansi iruhande ahongaho, n'ibindi biri mu dutebo ahongaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata na sosiyete yitwa Inyange indasitiri. Hakaba harimo etajeri irimo amajerekani y'amazi, amajerekani y'amata, amakarito y'amata n'uducupa tw'amata n'uducupa twafanta n'icyuma gikonjesherezwamo ayo mata, iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'ubururu hejuru hari ibara ry'umweru.

Ahakoregwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata hicaye umugabo ku ntebe y'umweru ufashe akabido mu ntoki, urimo uravoma amata mu ijage, inyuma ye hari etageri irimo atubido.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata hari firigo irimo amajagi, harimo utubido turimo amata, amacupa y'amazi arimo amata ituhande hari amajerekani y'amazi na kashi pawa iruhande rwayo n'imeza iruhande rwayo.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata icururizwamo amata n'ibindi binyobwa bitandukanye, amaji n'ibindi bitandukanye n'ibiribwa bitandukanye, tubonaho icyapa kigaragaza yuko aho ngaho hacururizwa aya amata, hakaba hari kontwari iriho icyo cyapa, hakaba hari firigo ku ruhande na etajeri irimo amakarito y'amata.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye burimo gucuruza amata tukaba tubonamo amagi ari ku ipurete ateretse ku meza, tukaba tubona hirya yaho irange ry'umweru ririho aho ngaho aya magi akaba ari amagi agera mu munani.

Inzu y'ubucuruzi bukorerwamo ubucuruzi bw'amata hakaba hateretse bike kumeza. indobo irimo amandazi n'indi ndobo kuruhande iriho akuma hejuru injerekani kuruhande, iyo nzu ikaba ifite umuryango w'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'mata hakaba harimo icyuma gitunganya ayo mata, kiri mu imabara ry'ubururu n'mweru hakaba hari na firigo iruhande rwaho na etajeri iruhande rwaho irimo utujerekani, munsi yaho hakaba hari raronje izanamo umuriro.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hari amajage abiri hari imwe barimo barasukamo, umudamu wambaye itaburiya y'umweru. Ku idirishya ryaho hari ibara ry'ubururu n'icupa rya fanta ritarimo ikintu riteretse ku ruhande.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hakorerwamo n'umudamu uteruye akabido, telemusi ebyiri zimuri iruhande zisa n'izindi, imwe y'umuhondo n'indi y'umukara n'akabido ku ruhande, inzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo ifite akanyenyeri k'ubururu hejuru yayo.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hari indobo irimo keke, iruhande rwaho hakaba hari icyuma gitunganyirizwamo amata, iyo ndobo ukaba ipfundikije umufuniko wayo ujya kugira ibara ryawo, iruhande hakaba hari amasahani n'imeza n'intebe naga telefone ikarangwa ku bantu.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata. Ndabona etageri zirimo amandazi, ji, udukarito tw'amata, amadobo arimo amandazi, indobo zirimo ibindi ibiribwa bindi bitandukanye. Ihagazemo abagabo babiri n' umugore umwe n'ibyuma bibikwamo ayo mata, n'amajerekani bashyiramo ayo mata.

Inzu icururizwamo ubucuruzi bw'amata hakaba hacururizwamo ibinyobwa bgiye bitandukanye by'amata, icyayi n'ibindi, tukaba tubona yahurute imbere ziri mu ducupa tw'amoko atandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, irimo firigo imwe ihagaze iriho icyapa cy'ubururu n'indi iri hasi n'umuntu utagaragara neza wambaye umupira w'umukara na etajeri irimo fanta.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hanze hayo hari utuzu ducururizwamo amazi, habaka barimo utujerekani tugera mu tujerekani dutandatu, hakaba hari ingufuri, ako kazu kakaba kari mu ibara ry'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata hakaba hakorerwa ikusanyirizo ry'amata tukaba tubona hari icyansi umuntu ufite icyansi arimo arasuka amata mu cyuma k'ikusanyirizo hakaba hari ibara ry'umweru ku bikuta by'iyo nzu uwo muntu akaba yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, yawurute iri mu ibara ry'umukara yitwa Mukamira ikaba ifashwe n'umuntu mu ntoki ziwe iruhande rwe hakaba hari firigo n'amakesi ya fanta ateretse aho ngaho iruhande, harimo fanta zitandukanye z'amoko atandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata irimo ibara ry'umweru hasi hari amakaro no kuruhande rwaho hari amakaro hakaba hagaragaramo icyuma gitunganyirizwamo amata kikaba gifite gihagaze ku maguru yacyo ane.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hagaragaramo amayawurute, utubido n'utundi ducupa dutoya turimo amata, n'andi makarito arimo amata y'ikivuguto, hakaba harimo n'akabati.

Inzu y'ubucuruzi by'amata, tubonamo intebe n'ibyuma bicururizwamo ayo mata bibikwamo ayo mata n'intebe bicaraho n'ubuvido buri muri kotwari n'akajerekani Ari hejuru n'inkongoro n'indobo iruhande rwaho.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, birimo ji amoko atandukanye, harimo mango, marite, inyange, novida n'izindi zitandukanye n'amacupa y'amazi manini n'amatoya.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ya sosiyete Inyange miliki zone. Harimo intebe n'imeza n'akajerekani hasi, karimo gashyirwamo amata n'akadobo iruhande rwayo n'icyapa. Iyo nzu ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Icyapa kigaragaza ahantu hacururizwa amata y 'uruganda rwa i Nyanza milk industry hakaba hariho nimero yayo +25079027449 hakaba hariho ikarito n'ubujerekani butoya n'ubukopo butoya bwa yawurute

Inzu ikorerwa ubucuruzi bw'amata, irimo ibara ry'umweru n'ubururu n'afirigo ebyiri, imwe y'ubururu n'indi y'umweru, intebe ebyiri imwe y'ububuru n'indi y'umweru, n'imeza itagaragara neza, n'umugabo uhagazemo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata bukorerwamo na sosiyete yitwa Nyanza miriki indasitiri harimo icyuma gitunganyirizwamo ayo mata. Imeza iteretseho indobo hakaba harimo n'intebe iyo nzu ikaba yubatse mu buryo bw'amatafari ahiye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibijyanye n'amata hagaragaramo icyuma babikamo ayo mata cya INYANGE milkzone, akaba hari na etajeri irimo amakarito y'amata, ji na fanta n'utubido turi hejuru y'aho tujyanwamo amata akaba hari n'intebe y'umweru n'imeza y'ubururu iruhande rwaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata tukaba tuhabona umudamu ubyibushye iruhande rw'iwe hari ikirahure kirimo icyayi, hakaba hari agapaniye karimo udutambaro tw'isuku, hakaba iruhande rwe hari firigo iri mu ibara ry'umutuku ya kokakola, kuri iyo nzu hakaba harimo amabara y'umweru n'ubururu.

Icyapa kigaragaza ahakorerwa ubucuruzi bw'amata, icyo cyapa kikaba kiriho ubwoko bugiye butandukanye, amata ya yawurute, amata ari mu makarito, amaji, amaj ari mu makarito, hakaba hari n'imbere y'aho umuryango ugaragaza iyo nzu ikorerwamo ubwo bucuruzi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza amata n'ibiribwa birimo; amandazi n'ibindi bitandukanye, tukaba tubona isahane iriho amandazi akaranze, akoze mu ifarini, hakaba harimo irindazi rimwe risatuyemo kabiri.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata ihagazemo umugore i ruhande hari icyuma babikamo ayo amata mu bijyanye no kuyakonjesha haba hari n'utu etajeri i ruhande rwaho bashyiramo ibikoresho bifashisha mu gihe cyo gucuruza amata.

Iki ni icyapa kigarahaza ahantu hacururizwa amata y'inyange, ku icyo cyapa turabonaho utubido dutandukanye, n'amakarito atandukanye atwarwamo amata, tukaba tubonaho n'ubucupa dutandukanye bwa ji n'amakarito ya ji, n'amacupa y'amazi manini.

Iyi ni inzu icururizwamo ubucuruzi bw'amata ibigaragaramo utubido tunini n'udutoya dutwarwamo ayo mata, hakaba hari n'amakarito nayo atwarwamo ayo mata ariho icyapa kigaragaza uruganda rukora ayo mata.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata akabaharimo firigo imwe, hakaba harimo n'indi firigo yindi iciye bugufi hakaba harimo icyuma gikorerwamo aya mata, hakaba hari imeza iraho kuruhande, n'intebe ebyiri, na kontwari n'indobo ebyiri ziri hejuru y'iyo kontwari n'utujerekani turi aho hejuru two mu ngano zitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata. Hakaba hacururizwa ibinyobwa bigiye bitandukanye, haba amata, amaji n'ibindi. Hakaba harimo abantu babiri bambaye amashati y'imyeru n'ingofero z'umweru. Iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'ubururu. Iyo nzu ikaba iriho ikirango cy'inyange miliki zone.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'amata irimo ibara ry'ubururu, hejuru hakaba harimo ibara ry'umweru harimo icyuma gitunganyurizwamo amata hakaba harimo abantu babiri umugore n'umugabo hakaba harimo umugabo ufashe terefone hakaba harimo etajeri irimo ji.

inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza amata, ifite ibara ry'ubururu, frigo iruhande rwayo, akameza gateretse teremusi zirimo ibyayi n'indobo irimo capati n'utundi tudobo tw'umutuku turi munsi turimo ibindi biribwa n'amasahani ari munsi yayo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari farumasi, hari aho bacururiza amata, hari umuntu urimo aragenda mu muhanda, hari imodoka iparitse ahongaho iri mw'ibara ry'umweru. Kuriyo nzu hakaba hari imiryango itandukanye hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda.

Ahatangirwa serivise ry'ubucuruzi by'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hifashishijwe ikoranabuhanga, umuguzi wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ahatangirwa ubucuruzi harimo ibara ry'umweru

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ubucuruzi bw'amata, harimo abagabo babiri, umwe ni umukiliya, undi ateruye akabido agiye guhereza uwo mukiliya, hari kontwari iriho amasambuza, amayawurute, utibido, imigati, n'amabiswi, n'amaji.

Inzu ni iy'ubucuruzi bw'amata, abagabo babiri barimo bariyakira, bafite amasahane abiri, isahani imwe indi iriho ibyo kurya n'igikombe cy'amata indi sahani iriho umunyu.

Inzu y'ubucuruzi bw'amata, harimo abantu batatu, hagaragaramo umwe neza mu maso, urimo uranywa amata. Abandi bicaye ku meza n'intebe eshatu bicayeho, n'amajagi abiri abateretse imbere, n'igikombe kimwe, n'undi ufashe igikombe utagaragara neza, urimo uranywa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata, hakaba hariho icyapa kibigaragaza kiri mu ibara ry'ubururu, n'andi magambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza uruganda rugemura amata rwitwa Nyanza milk industries, hakaba hashushanyijeho inka, hakaba hariho utujerekani dutandukanye two muri ritiro zitandukanye, hakaba hariho uducupa tuba turimo yawurute n'amakarito aba arimo amata.

Umudamu wirabura ugaragara arimo araseka, ufite amafaranga mu ntozi ziwe harimo inote ebyiri za bitanu n'izindi note ebyiri za bibiri, akaba yambaye umupira wa oranje,

Icyapa cya sosiyete y'itumanaho ya Airtel kiri mw'ibara ry'umutuku nandi mabara y'umweru kigaragaza uburyo wakwishyuramo ukoresheje application ya airtel mu kwishyura ibyo waguze cyangwa ibyo ugurishije aho babikwishyurira.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye bugiye bukorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga atandukanye amadorari, amayero hakaba hagaragaramo amafaranga ari mu ibara rya pinki, hakaba harimo n'amafaranga agaragara mu ibara ry'icyatsi, ayo mafaranga akaba arimo umugabo wambaye rinete ufite uruhara.

Ahakorerwa ibijyanye no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga hari abantu babiri barimo barahererekanya amafaranga, amwe yo mu bwoko bw'amanyamerika n'ayandi ari mu mashinwa. Aho hantu hakaba hari abantu bambayemo umupira w'umweru n'undi utagaragara neza.

Ahakorerwa ibijyanye no kuvunja no kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga cyangwa amanyarwanda, hakaba hari karikiratirise ibarirwamo amafaranga, hakaba hari umuntu ufashe amafaranga mu ntoki, harimo amafaranga ari mu bwoko butandukanye harimo amadolari n'andi mafaranga, ari mu bundi bwoko bw'amafaranga.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amafaranga, bijyanye n'ubuvunjayi mubyo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga, amadorari n'amayero n'andi mafaranga atandukanye. Hakaba hari kalikiratirise iteretse aho hasi n'impapuro z'umweru, hakaba hari amadorari ateretseho hasi. Hakaba hari n'umugabo ufashe izo mafaranga mu ntoki ziwe.

Inzu ikorerwamo ibijyanye no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga cyangwa amanyarwanda hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bikorerwa aho ngaho kiba kimwe ibara ry'ubururu hakaba n'umuryango urimo ibara ry'umweru iyo nzu ikaba ifite irangi ry'umweru mo imbere hakaba harimo utubara tw'umundo hicayemo n'abantu mo imbere.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kuvunja, no kuvunjisha amafaranga, hari icyapa kigaragaza ubucuruzi bubera ahongaho kiri mu ibara ry'umuhondo, cyandikishijemo amagambo, iyo sosiyete uko yitwa hari mu ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku aganisha ku biciro, n'amafaranga avunjishirizwa ahongaho.

Ahakoregwa ubucuruzi bujyanye no kuvunja, no kuvunjisha amafaranga, hakaba harimo umudamu umwe wambaye umupira w'umweru, urimo amabara y'umukara, hakaba hari ibyapa bigaragaza n'ibindi bikorwa bihabera byo bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga buryo bwa zairtel na za tigo.

Bakoraga ibijyanye no kuvunja no kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga atandukanye hari abagabo bagera muri batandatu harimo uwambaye umupira wa oranje, undi wambaye umupira w'umuhondo, abandi bambaye amashati y'umweru, nundi wambaye ishati y'umutuku nundi wambaye iy'umukara, hakaba harimo amabara y'umuhondo agaragaza ibikorerwa aho ngaho.

Intebe zigera muri enye hakaba harimo hagati yabo imeza iruhande rwaho hakaba hariho umuhanda urimo ikamyo y'umweru n'umumotari urimo aragenda mumuhanda ufite moto y'umutuku, nigare iruhande rwaho nandi mazu akikijwe umuhanda.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza ibikoresho bikoze mu mbaho, haba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba hari urubaho ruteretseho amatara abiri, hakaba iruhande rw'urwo rubaho, hari ibara ry'umweru.

Ahakorerwa ibijyanye n'amahoteli harimo abantu benshi barimo barakirwanga aho ngaho bicaye ku ntebe hakaba harimo na televiziyo iri ahongaho iyo nzu ikaba ari inzu yubakishije mu buryo bw'ibiti hakaba hari n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi ku ruhande rwaho hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru nipantaro y'umukara .

Ni inzu ikorerwamo ibijyanye n'amahoteri, yitwa "LEBANON HOTEL" akaba ari inzu irimwibara ry'umuhondo. hakaba harimo n'amazina yiyo hotel, imwe iri mwibara ry'umuhondo hamwe n'ibara ry'umukara, hagati y'ibirahure iruhande hari ibyatsi n'amapave.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama zitandukanye, hakaba harimo imeza zirambuye, uruhande rukikije izindi meza zirimo hagati, nazo zizengurutse hakaba harimo intebe z'umukara, hasi hakaba itapi y'umutuku, hejuru hakaba hari ishusho y'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no gucuruza amata hakaba harimo firigo iri mu ibara ry'umweru ifunguye, irimo ijagi n'amajerekani yo mu ibara ry'umweru hakaba harimo n'uducupa tw'amazi n'indi jagi iri mu ibara ry'icyatsi iruhande rw'aho hakaba hateretse utubido turi mu ibara ry'umweru.

Inzu ikorwarwamo ibijyanye n'amahoteli, hakaba harimo abantu bagaragara batatu umudamu umwe n'abagabo babiri, hakaba hateretse kontwari imbere yabo n'intebe iruhande rwayo irimo udusego tw'umweru, hakaba hari n'amafoto iruhande rw'iyo nzu. Iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umweru n'utundi tubara tw'umukara iruhande rwa two imitako.

Inzu ikorerwa muri sosiyete y'ubwishingizi ya saniramu (SANLAM) irimo abantu benshi batandukanye baba damu bambaye amakoti y'imikara hakaba hari utumeza duteretseho amamashini yabo ,utumeza turi mu mabara y'umweru n'ubururu hakaba n'amashini iri mu ibara ry'umukara hakaba n'ikindi cyapa iruhande rwaho ,nyuma y'aho kiri mu ibara ry'umukara n'ubururu.

Inzu mberabyombi yubatse igeretse inshuro zigera muri eshatu, iri mu ibara ry'umweru na shokora. Hakaba rero hanze hari ibyatsi bibiri, ibiti biri iruhande rwabyo birimo n'indabyo z'umutuku.

Inzu ikorwamo ibijyanye n'ubwishingizi, hakaba hari umuryango w'umweru, hakaba hari imeze irimo imbere iri mu ibara ry'umuhondo iteretseho agatara hejuru, hakaba iryo bara hakaba harimo n'iry'umukara, hakaba hari intebe y'umukara, hakaba hari indi meza iruhande rwayo iri mu ibara ry'umuhondo,...

Inzu ikorerwamo ibijyanye na za banki, hakaba hakoreramo banki yitwa umwarimu sako. Hahagazemo abagabo babiri bari kuri gishe, bambaye amapantaro y'ubururu, harimo uwambaye ishati y'umweru n'abandi bicaye iruhande rwabo.

Inzu igeretse ikorerwa mo ubucuruzi butandukanye, hanze ahakaba hari udukiyosike turi kugaragaza aho bagura amayinite, iruhande rwaho hakaba hari ibyapa biri mu mabara by'ubururu byerekana ibyerekezo byo mu muhanda, mbere hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Isoko hari abantu benshi harimo umugabo umwe wambaye imyenda y'umukara igaragaza urwego akorera rwa polisi hakaba hari nundi wambaye imyenda y'icyatsi ugaragaza urwego rw'abadasso hakaba hari nundi mugabo wikoreye imifuka ibiri wambaye umwenda w'ubururu ariko hari nabandi bantu iruhande rwabo babakikije.

Hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye by'umwihariko hakorerwa ubucuruzi bw'imboga n'imbuto n'ibindi biribwa bitandukanye nk'amavuta aka ari umudamu uyicayerimo acuruza bimo imbuto zitandukanye inyanya kokombure amashu n'ibindi byose.

Inzu ikorerwamo bucuruzi bujyanye no korohereza no kwakira amafaranga na sosiye y'itumanaho ya MTN, hakaba hari akapa kariho kode bishyuriraho ibicuruzwa biguzwe, kari mw' ibara ry'umuhondo n'amagambo yanditse mw' ibara ry'umukara, hakaba harimo utubara tw'umweru aho ngaho hagati iruhande rwaho, hakaba harimo ikarito irimo telefone ibara ry'umuhondo handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu hari nigishushanyo cyiyo telefoni.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya eyateri mu bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite, ako kazu kakaba karimo n'andi mabara y'umweru n'ay'umuhondo hakaba hahagaze abantu bagera muri batatu, harimo abagabo babiri n'umugore umwe.

Akazu gakorerwaho ibijyanye na ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite. Aka gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya MTN, kakaba kari mu ibara rya umuhondo rigaragaza iyo sosiyete, hahagaze iruhande umuntu wambaye umupira wa ubururu na ipantaro ya umukara...

Ahagaragara icyapa cya sosiyete ya emutiyeni kigaragaza yuko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kubikuza amafaranga hakaba hari amapantaro amanitse ku duti agurishwa.

Akazu gakorerwamo ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayite na sosiyete y'itumanaho MTN, kari mu ibara ry'umuhondo iruhande rwako hari ipoto, n'icyapa kiri aho ngaho cyo mu muhanda, ako kazu kakaba kari mu ibara ry'umuhondo.

Ni mu nzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya eyateli. Harimo abagore n'abagabo b'abakiriya, hakaba harimo n'abacuruzi bashafa abo bakiriya baje gusaba serivise ahongaho muri iyo sosiyete ya eyateli.

Ahakorerwa na sosete ya MTN mubijyanye nokuhoreza nokwakira amafaranga, hari abagabo batatu bambaye ingofe z'umuhondo muri ab'abagabo harimo uwamabye umupira w'umweru nundi wambaye umupira w'umuhondo nundi wamabye ikote ry'umukara nabakirya bahagaze imbere yiwe harimo n'umudamu.

Ahakorwa ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, hari umuntu ufashe telefoni mu ntoki ziwe akoresheje akaboko kamwe, wambaye agapaku k'umukara, wambaye ipantaro y'umukara. Iruhande rw'iwe hari undi muntu uhicaye. Hasi hari amakaro, purizi zicometse iruhande rw'iwe.

Inzu y'ubucuruzi bucururizwamo ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, hakaba harimo abagabo batatu, harimo umwe utagaragara neza wambaye umupira w'umuhondo, hakaba harimo n'abandi babiri, umugabo n'umugore wambaye umupira w'umweru n'umuntu muto wambaye umupira w'umukara uteruye agaseke.

Inzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya MTN icururizwamo uburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga, harimo abadamu babiri bambaye imyenda idasa n'iyabandi, hakabamo n'abandi badamu babiri bambaye imipira y'umweru n'abagabo babiri bambaye imipira y'umweru n'abandi bagabo babiri bambaye imipira y'imihondo.

Ahakorerwa ubucuruzi bujya no kubitsa no kubikuza amafaranga no kugura amayinite, hakorerwa na sosiyete y'itumanaho rya eyateli, haba harimo ibara ry'umutuku hahagaze abantu benshi, harimo abambaye imipira y'umutuku, umugabo wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umutuku, n'ipantaro y'umukara, ibyapa bigaragaza iyo sosiyete.

Akazu k'ubucuruzi gacururizwamo ibijyanye no kubitsa no kohereza amafaranga, hakaba harimo injerekani ,hakaba harimo abantu batatu bicayemo, aho kazu gakoze mw'ibara ry'igiti hariho n'utundi tubara tw'umukara n'umweru turaho ngaho tw'udutako. Hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho ngaho na banki ekwiti(equity bank).

Akazu k'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyeni mu bijyanye no kwakira no kohereza amafaranga, kari mw'ibara ry'umuhondo, kariho ibyapa bigaragaza iyo sosiyete. Imbere yaho harimo abantu benshi batandukanye, iruhande rwaho hakaba hari agataka kagaragaza uruganda rucuruza amatelefone rwa tekino.

Inzu y'ubucuruzi mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga ya sosiyete ya MTN,hejuru hari icyapa kigaragaza iryo sosiyete riri mu mabara y'umuhondo, imbere hari umugabo utambuka wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, n'undi uteruye umwana , n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, n'undi urimo arasobanurira imbere ye hari abakobwa babiri barimo baracuruza , n'undi muhungu wambaye iby'umukara n'ingofero.

Akazu k'ubucuruzi gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho yitwa emutiyene, gakorerwamo ibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga no kugura amayinite, gafite ibara ry'umuhondo gahagazeho abadamu babiri, umukiliya umwe w'umugabo n'abandi babiri bari mo imbere.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite, gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya MTN harimo abantu bagera muri batatu, abagabo babiri n'umugore umwe urimo uratanga serivise aho ngaho, n'undi mugabo utambuka i ruhande rw'ako kazu

Ahatangirwa serivisi zo kubitsa no kubikuza na sosiye y'itumana ho MTn hari utwapa twinshi dutandukanye turimo amanimero atandukanye yo kwishyiriraho, hakaba hari n'imashini ebyiri imye yanditsemo solass sm indi yanditsemo operationdet for baseveni.

Aha hakorerwa ubucuruzi bwo kohorereza no kwakira amafaranga no gucuruza amayinite, bukorerwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni. Aha hahagaze abagabo batatu bambaye amajiri y'umuhondo ariho ibyapa byiy'iyo sosiyete n'umtaka mu ibara ry'iyo sosiyete n'undi umeze nk'umukiriya waje gufata serivise ahongaho n'imodoka iparitse ku ruhande rwabo, na moto, n'izindi modoka ziri hirya yabo ziri mu ibara ry'ubururu.

Agapapuro kaba kariho imibare wishyuriraho ariyo karindwi umunani icyenda zeru makumyabiri akaba ari kampani yitwa geti pongo intapurayizi hakaba hariho agapapuro wishyura kaba kariho kode ya emutiyeni mobayiromane.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya MTN,ikaba inzu iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba ikorerwamo umuntu wambaye umupira w'umuhondo, munsi hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umutuku urimo araza aje gusaba serivise.

Inzu ikorwamo na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, irimo televiziyo, abakiliya, babiri bahagaze n'undi wicaye, n'intebe ebyiri ziri aho iruhande, n'ababafasha bambaye imipira y'imikara n'amamashini atatu abari iruhande.

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kubitsa no kubikuza na sosiyete ya MTN y'itumanaho, hari umugabo imbere ye hari imeza iriho imipira y'umuhondo n'ingofero z'umuhondo n'uducupa tw'umuhondo, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo rigaragaza iyo sosiyete.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga hari umuntu ufashe telefone mu ntoki igaragaza konte yiwe ya momo uwo muntu akaba yambaye ipantaro y'ubururu akaba afite agakapu k'umukara hakaba hari n'undi umuhagaze iruhande ugaragaza inkweto naho bacomeka.

Akazu gakorerwamo na sosiyete ya emutiyene mu bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite, hahagaze abagabo babiri bategereje serivise, n'abandi bagore babiri bategereje serivise, imbere yaho hakaba hahagaze umugabo uri gutanga serivise ako kazu kakaba gagite ibara ry'umuhogdo rigaragaza iyo sosiyete.

Inzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyeni hagaragaraho ibyapa bigaragaza iyo sosiyete hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umukara ufashe igare mu ntoki ziwe n'undi ufashe telefone mu ntoki ziwe.

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kohereza no kubitsa amafaranga no kugura amayinite hahagaze abantu batatu umudamu umwe n'abagabo babiri uwo mudamu wambaye umupira w'umukara hakaba hakorera sosiyete y'itumanaho emutiyeni iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo mu imbere umuntu waje guseriva serivise n'ikote ry'umukara rimanitse aho haejuru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete ya emutiyeni. Harimo umugore wambaye umupira w'umweru, uriho icyapa kigaragaza yuko akorera iyo sosiyete ya emutiyeni, n'umugabo umwe. Inyuma ye hakaba hari icyapa, imbere ye hakaba hari imashini.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga, hagaragara abantu babiri bafite amatelefoni abiri atandukanye, umwe arimo aroherereza undi amafaranga, undi arimo arakira amafaranga; munsi yabo hakaba hari karikiratirise irimo irakoreshwa babara amafaranga bagiye kwishyurana.

Ahakorerwa na sosiyete ya emutiyeni y'itumanaho hagaragara abantu bambaye imipira y'imihondo hakaba hari n'icyapa kiriho abakobwa n'umuhungu n'undi mukobwa uri imbere urimo urabaririmbira wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Aha korerwa ubucuruzi bw'ibijyanye no kweheza no kwakira amafaranga na sosiyete ya MTN. Turahabona zamashini bishyuye ukoresheje ikarita. Hakaba hari agapapuro aho ngaho kagaragaza yuko iyo sosiyete ariyo ihakorera. Hakaba hari terefone iteretse imbere y'umudamu uhicaye wambaye imyenda y'imyeruru n'utundi dukoresho tw'ikoranabuhanga tumuri iruhande na mashini.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ubucuruzi bwo kubitsa no kubikuza, hagaragaramo abantu batatu, harimo utwaye moto undi urimo aratambuka aho ngaho, utwaye moto hari ikarito ahetse kuri moto y'iwe, hakaba hari n'umudamu wambaye umwenda w'umuhondo ugaragaza sosiyete ya MTN, n'undi w'umupira urimo imbere ugaragaza sosiyete ya AIRTEL.

ahacuru ubwohocuruzi ijyanye mobile money mu buryo bwo kweza no kwakira amafarangagabo umwegaze wambaye umupi w'umuhondo agapfukamaumuhondoaban uri kuri moto wambaye kas nagapfukamuwa k'umuhondo n'undi umbo ku ruhande ndi kumwe n'umumotari wambaye bombi wambaye udupfuma tw'umuhondo

Ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye ariho hitwa mu isoko tuhabonamo imifuka y'amafu, karoti, imiteje n'izindi mboga zitandukanye, tukaba tubona abantu bagera kuri batatu harimo uwikoreye imizigo muri abongabo.

Akazu k'ubucuruzi ka sosiyete ya MTN, kari mu ibara ry'umuhondo, hakorerwamo ibijyanye no koheza no kwakira amafaranga, hahagaze umugabo wambaye ingofero, ipantaro y'umukara n'umupira urimo amabara atandukanye arimo arasaba serivisi aho ngaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga na sosiyete y'itumanaho MTN, hahagaze abantu bagera muri bane, umwe wambaye ijire igaragaza iyo sosiyete n'undi uhagaze urimo uraka serivisi, n'abandi bari iruhande rwabo umugabo n'umugore.

Akazu gakorerwamo'ibijyanye n'ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga ka sosiyeti y'itumanaho MTN, gasa mu ibara ry'umuhondo, hahagaze abagabo bagera muri batatu, hariho uwambaye ijezi n'undi wambaye umupira w'umukara, inyuma y'ako kazu hakaba hari undi uhahagaze n'umukozi wayo ugakoreramo urimo imbere.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya Mtn hahagaze umugabo umwe wamabaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo ufashe telefone mu ntoki, i ruhande rwe hahagaze undi mugabo wambaye ikote ry'umukara ufashe nawe telefone mu ntoki i nyuma yabo hari imodoka ibaparitse inyuma.

Akazu k'ubucuruzi bwa sosiyete ya MTN mu bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga gafite ibara ry'umuhondo kariho ibyapa bigaragaza iyo sosiyete n'utwana duto tw'utubo iruhande yaho n'abagabo babiri bari iruhande yako umwe wambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye ishati isanzwe.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza nokwakira amafaranga na sosiyete ya emutiyene, hariho akazu kari mu ibara ry'umuhondo, imbere ye hahagaze abantu benshi batndukanye baje gusaba serivise, harimo umukobwa wambaye imyenda y'ubururu harimo abagabo bambaye amashati y'imyeru, n'abandi bambaye imyenda y'imikara.

Ni mu nzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya MTN, hagaragaramo ifoto y'agapapuro bashyiraho kode bishyuriraho iyo nzu yabo aho bakorera, hakaba hari n'akapa k'umutuku karimo ibara ry'umutuku n'umweru.

Ahakorerwa serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza na sosiyete ya emutiyeni, hagaragara abagabo babiri barimo barabyina, undi mugore uhagaze iruhande rwabo, n'ibyapa by'iyo sosiyete by'umuhondo, n'ikindi cyapa cy'umutuku kigaragaza ibikorwa birimo birabera aho ngaho, na bafure ihagaze aho ngaho.

Ahakorerwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN mu bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga no gucuruza amayinite, hahagaze abagabo bajyera muri batanu harimo umwe wera n'undi wambaye umupira w'umweru n'abandi bambaye imipira y'imihondo umwe muri bo wambaye ingofero y'umuhondo, aho hantu hakaba hari ibara ry'umuhondo rigaragaza y'uko aho iyo sosiyete ihakorera.

Akazu ka sosiyete y'ikoranabuhanga, y'itumanaho ya emutiyeni gacururizwamo ama inite, kakaba gakorerwamo n'uburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga. Hakaba ari imbere y'umugore ucururizamo n'umugabo w'umukiriya n'umugore wundi n'undi mugabo wundi ku ruhande, ako karyango kakaba gafunguye.

Aka ni akazu gakorerwamo n'umukozi wa sosiyete yitwa Mtn ucuraza amainite n'ibikorwa byo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga.

Utuzu tubiri dukorerwamo ibijyanye no kwoheza no kwakira amafaranga na sosiyete ebyiri za MTN na airtel mu bijyanye no gutumanaho, hahagaze abagore babiri n'undi uri mu imbere mwako kazu kamwe ka airtel n'imodoka iparitse iruhande rwayo.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, Hari umuntu ufashe terefone mu ntoki, hakaba hari n'akapa kagaragaza yo sosiyete kariho kode bishyuriraho, kari mu ibara ry'umuhondo.

inzu ikorerwaho ubucuruzi bujyanye no kwishyura, no kohereza amafaranga hakaba hari abadamu batatu n'undi ufashe terefone mu ntoki, n'undi mugabo urimo aratambuka kuruhande akaba hari icyapa, kiri mu ibara ry'icyatsi cy'isoko bita sawa siti.

Inzu ikorerwamo ikorerwamo ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya MTN iri mu ibara ry'umuhondo hari n'akandi kabokisi kari iruhande rwabo k'umuhondo inzu irafunguye hicayemo umudamu urimo uratanga serivise iruhande hari akana karimo karatambuka aho ngaho.

Ahacururizwa esanse hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye rinete ufashe telefone mu ntoki n'undi wambaye umupira w'umutuku, n'undi mudamu ubari iruhande wambaye umupira w'umuhondo wa sosiyete ya emutiyeni n'imodoka iparitse imbere ya bo n'izindi zitandukanye ziri iruhande rwabo.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo mu kohereza no kwakira amafaranga ya sosiyeteya Mtn, abagabo bane bambaye imipira y'imihondo isa nicyapa kiri bari iruhande n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku urimo uragenda ateruye amvirope imwe mu kaboko n'indi ayifatiye mu kandi kaboko ko hasi.

Akazu k'ubucuruzi ka sosiyete ya MTN mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga kari mu ibara ry'umuhondo, hariho ibyapa kigaragaza iyo sosiyete n'abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru umwe yikoreye igikapu n'undi urimo imbere urimo uramucuruzaho.

Akazu gatoya gakorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga no gucuruza amayinite na sosiyete y'itumanaho ya MTN harimo umudamu urimo urakoreramo ureba hirya umugabo uhagaze iruhande rwaho wambaye umupira w'umuhondo n'undi mugabo wambaye umupira w'icyatsi ako kazu kakaba kari mu ibara ry'umuhondo.

Ahakorerwa ubucuruzi, bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite, na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, hahagaze umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo n'amabara y'ubururu, ari muri uwo mupira n'ingofero y'umuhondo irimo amabara y'ubururu, uhagararanye n'umukobwa umwe wisukishije, ufashe terefone mu ntoki wambaye umupira w'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene icururizwamo ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga, hahagaze abagabo batatu n'umugore umwe urimo ubahereza serivise n'undi uri ku ruhande utegereje serivise yo kohereza no kwakira amafaranga, ako kazu kakaba gafite ibara ry'umuhondo irimo ibyapa bigaragaza yuko ari akazu ka emutiyene.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya Airtel inzu ifite mu ibara ry'umutuku nandi mabara y'umweru hicaye hanze umuntu urimo uracuruza hari n'akapa kagaragaza iyo sosiyete.

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga, ha sosiyete ya emutiyeni; hari abagore batatu, umwe wambaye umupira w'umuhondo, n'undi wambaye umupira w'umuhondo, n'undi wambaye imyenda isanzwe idasa n'iy'abandi; hejuru hari agateleviziyo karimo icyapa cy'umuhondo kagaragaza iyo sosiyete ya emutiyeni.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gucuruza amayinite na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni no kohereza no kwakira amafaranga harimo abantu bagera muri bane bagaragara neza bambaye imipira y'imihondo n'abandi bari iruhande rwabo bakeneye serivise baje kureba aho ngaho.

Abagabo cyangwa abasore babiri bari munsi y'umutaka wa sosite y'itumanaho yitwa MTN, bakaba bahetse ibikapu bibiri biri mu bwoko butandukanye, bakaba bari kumwe n'umucuruzi ucuruza amayinite cyangwa ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga.

Aka ni akazu ka sosiyete ya emutiyeni gacururizwamo serivise zigiye zitandukanye zo mu kugura amayinite cyangwa serivise za mobayilo mani, aho imbere yaho tuhabona umudamu n'umugabo, umudamu akaba yambaye umupira w'umuhondo, umugabo akaba yambaye umupira w'icyatsi n'akagofero kagaragaza ko ashobora kuba ari umuyisilamu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo abagabo babiri, harimo umwe wambaye ishati y'umutuku ufashe telefoni mu ntoki n'undi wambaye umupira w'umukara, wambaye rinete, imbere yabo hakaba hari imishani ibari imbere, hakaba hari n'umugore uhagaze irunde rwabo wambaye ibintu by'icyatsi n'ubururu.

Ahakorerwa na sosete y'itumanaho ya MTN, hatangirwa serivise zijyanye nokohereza nokwakira amafaranga hicaye abakobwa babari aho hantu barimo barakorera ni mukazu karimo amatelefone kariho imipira y'umuhondo, ako kazu nako kakaba gafite ibira ry'umuhondo.

Akazu gakorerwamo ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, kari mu ibara ry'umuhondo, imiryango yako ifunguye ireba hejuru. Ikaba irimo abantu babiri b'abadamu bambaye imipira y'imituku, undi wambaye umupira w'ubururu. Harimo umwe urimo yandika mu ikayi, ufite na bike, wambaye nk'isaha.

Aba ni abakozi ba sosiyete yitwa emutiyene.

Inzu ikorerwamo n'umukozi wa sosiyete ya mtn, ucuruza ama inite, n'uburyo bwo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga.

Icyapa cya sosiyete ya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, imbere yaho hari umugabo ufite moto nayo iri mu ibara ry'umuhondo nawe yambaye umupira w'umuhondo, inyuma kuri icyo cyapa hakaba hariho imodoka y'umukara.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite kari mu ibara ry'umuhondo gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwako hari icyapa hakaba n'ipoto y'amashanyarazi.

Inzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya Emutine mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga, imbere yaho hari imashini ebyiri, abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo n'undi mugore ubicaye iruhande n'utwapa tugaragaza iyi sosiyete ya Emutine.

Inzo ikorerwamo na sosiyete y'itumanaho yitwa emutiyene, harimo umuntu uhagaze, imbere ye hari televiziyo, iruhande rw'iwe hari amamashini abiri z'umukara, imbere mo imbere haragaragaramo umuntu urimo amufasha, amuhereza serivise, n'intebe ebyiri zimuri inyuma.

Inzu ikorerwamo na sosiyete y'itumanaho yitwa emutiyeni ri mu mabara y'umuhondo n'umukara; hahagaze umudamu wambaye imyenda y'umutekano, hino hari amabakure atatu ateretse iruhande, n'abandi bantu babiri bari hirya yaho n'abandi bari imbere ku gakontwari bafasha abantu.

Akazu gatoya k'ubucuruzi gakoreramo sosiyete ya emutiyeni mu buryo bw'ikoranabuhanga mu bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite, hakaba hahagaze imbere yabo abakiliya, ako kazu kakaba gafite ibara ry'umuhondo n'amabara y'umukara yanditseho serivise batanga aho ngaho, n'icyapa cya emutiyeni kiri aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyeni mu buryo bwo kohereza no kwakira amafaranga, harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Imbere ye hahagaze undi arimo arafasha, wambaye ikanzu y'umukara. Tukaba tubona firigo iriho icyapa cya CocaCola, n'undi mugabo utagaragara neza wambaye ishati y'umutuku.

Ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga, no kubikuza, tukaba tubona terefone irimo ishusho ry'ibara ry'umutuku, n'iry'umweru, mw'iryo bara ry'umutuku, hakaba harimo amagambo yanditsemo sosiyete ya eyateri y'itumanaho, umuntu tukabona ayifatishije ibiganza byombi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, harimo abagabo babiri, harimo umwe wambaye ishati y'umutuku ufashe telefoni, n'undi wambaye umupira w'umukara wambaye rinete, n'imashini iri imbere y'uwo mugabo, n'umugore uhagaze iruhande rwabo.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kubitsa amafaranga ka sosiyete y'itumanaho ya emutiyene hahagaze abantu babiri harimo umwe uri mu imbere wambaye umupira w'umukara n'undi uri inyuma wambaye ishati y'bururu ako kazu kakaba kari mu ibara ry'umuhondo.

Akazi k'ubucuruzi, k'umutuku, ka sosiyete ya Eyateli, hariho ibyapa bigaragaza iyo sosiyete, abagabo babiri n'umugore umwe, hakorerwa ubujyanye n'ubucuruzi bwo kugura amainite no kohereza amafaranga no kwakira amafaranga.

Inzu ikorerwamo n'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyene ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga hahagaze umugabo ufite bike urimo urandika mu ikayi arandikira umukiliya wari uje kumusaba serivise w'umudamu.

Inzu y'ubucuruzi bucuririzwamo ibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga no kugura amayinite ya sosiyete y'itumanaho yitwa MTN, hahagaze umudamu umwe wambaye umupira w'umutuku n'undi urimo imbere w'umucuruzi iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo iriho ibyapa bigaragaza iyo sosiyete iyo ariyo.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga hakorerwa na sosiyete ya emutiyene, harimo umugabo wera uteruye icyapa cy'umuhondo cya emutiyene, n'abandi bantu babiri bambaye imipira y'imihondo umugore n'umugabo wambaye n'ingofero, hari n'undi ufashe kamera arimo arafotora.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kubitsa no kubikuza amafaranga, ya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, hahagaze abantu babiri umukobwa n'umuhungu, barimo baraherekanya amafaranga, umuhungu akaba afite bike mu ntoki arimo arandika mu ikayi, iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo.

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kubitsa no kwishyura amafaranga kuri terefone hari umutaka w'umutuku, hari imboga ziri aho ngaho z'inyanya ziri mu ibara ry'umutuku, hakaba hari umugabo ufashe terefone mu ntoki y'iwe n'ikarita yo kwishyuriraho wambaye umupira w'icyatsi.

Ahakorerwa na sosiyete ya emutiyene muri serivise zo kubitsa no kubikuza, hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo ugaragaza yuko ari umukozi wa emutiyene, hakaba hari n'undi ufashe amverope na telefone mu ntoki.

Akazu k'ubucuruzi bwa sosiyete ya eyateri muburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga hahagaze umugabo umwe w'umwera n'undi urimo imbere wambaye umupira w'umutuku wanditseho coca cola n'abandi bantu bari bari iruhande inyuma yako kazu.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga no kugura amayinite ya sosiyete y'itumanaho yitwa emutiyeni iri mu ibara ry'umuhondo hahagaze i ruhande rwaho umugabo ufashe telefone arimo arayivugiraho ku iyo nzu hari ibyapa by'iyo sosiyete.

Akazu k'ubucuruzi gakorerwamo na sosiyete ya emutiyeni, gafite ibara ry'umuhondo. Gakorerwamo ubucuruzi bwo hokereza no kwakira amafaranga. Imbere yako hahagaze umugore. Kuri ako kazu, muri ayo mabara yako harimo amabara y'umukara agaragaza ibikorwa bibera aho ngaho.

Iyi inzu ikorerwamo na sosiyete y'itumanaho MTN, itangirwamo serivisi zitandukanye nko kohereza no kwakira amafaranga, no kugura ama inite, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umuhondo, iruhande rwe hari imashini, hari n'undi urimo arafashwa wambaye umupira w'umukara, hasi yabo hari agatabo k'umuhondo n'ikindi gitabo cyo kwandikikwamo na bike.

Ahacururizwa ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga bwa sosiyete ya emutiyene, umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'umugabo umuhagaze iruhande, inyuma hari icyapa cy'umuhondo cya emutiyeni kiriho imodoka.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosete ya MTN, harimo umugabo ufashe telefone hakaba n'undi wicaye iruhande rwiwe bitagaragara neza iyo nzu ikaba irimo amakaro, imeza na raronge icometseho amasharijeri ya telefone.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga. Sosiyete y'itumanaho ya MTN hari abantu batatu, harimo abagabo babiri ,umwe wambaye umupira w'umweru ufite agaseke mu ntoki ziwe n'umutegarugori wambaye umupira w'umuhondo, inyuma y'aho hakaba hari ibintu by'amabara y'umuhondo bigaragaza ko ariyo sosiyete ikorera ahongaho n'amamashini abarimbere.

Ahakorerwa ibikorwa bijyanye no kubitsa no kubikuza na sosiyete ya emutiyene, tubona telefone iri mu ikarito n'agapapuro k'umuhondo kariho kode bishyuriraho, biteretse ku meza hirya yaho hakaba hagaragara amakarito arimo ibindi bikorwa bicuruzwa

Ahacururizwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete ya emutiyene hahagaze umukozi umwe wayo wambaye ijiri y'umuhondo, n'undi mugabo w'umukiriya wambaye umupira w'umutuku n'abandi bagabo bamuhagaze i ruhande babiri n'abandi bamuri iruhande hafi yiwe babiri.

Akazu gatoya k'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyene, hacururizwamo amayinite na serivise zibijyanye no kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, iyo nzu ikaba iri iruhande rw'ipoto n'igiti gishinze iruhande rwayo na pasiparumu na borodire iraho ngaho iruhande

Inzu y'ubucuruzi bwa sosiyete ya emutiyeni, ikorerwamo mu bijyanye no kohereza no kwakira amafaranga, hari umudamu umwe wambaye umupira w'umuhondo, w'iyo sosiyete, n'undi mugabo umwe wambaye umupira w'umutuku, akaba ahagararanye n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara.

Inzu ya sosiyete y'itumanaho yitwa emutiyene; intebe yicarwaho n'abantu; umugore uhetse umwana n'umugabo umwicaye iruhande wambaye umupira w'ubururu, n'undi mugore uhagaze wambaye igitenge amufasha, amuha serivisi yaje gusaba.

Agapapuro ka sosiyete ya emutiyeni icuruza amayinite. Ako gapapuro kakaba kagaragaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode, kuri iyo nimero. Iyo kode yanditseho umunani gatatu, icyenda gatanu, kane kane, mu mazina ya Fashoni Furaha Gurace.

Akazu k'ubucuruzi bwo mu buryo bwo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga ka sosiyete ya MTN Kari mu ibara ry'umuhondo imbere hahagaze umugabo wambaye umupira wumweru n'ipantaro yubururu iruhande rwaho hari abagore babiri n'umugabo umwe.

Ahakorerwa ubucuruzi bwo kubitsa no kubikuza amafaranga, hakoreshejwe telefoni. Hahagaze abakobwa batatu, umwe wambaye umupira w'ubururu, abandi babiri bambaye imipira y'umuhondo. Inyuma yaho hari amabara y'umuhondo.

Akazi kari mu ibara ry'umuhondo gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho ya MTN gacururizwa mo ibijyanye no kubitsa no kubikuza no kugura ama inite, hahagaze abagabo babiri bategereje serivise bahabwa n'undi mugabo urimo mo imbere utanga iyo serivise

Utuzu tubiri dukorerwamo na sosiyete z'itumanaho arizo MTN na airtel, kamwe karasa umutuku mu mazina akaba ari amabara y'umweru, akandi kararasa umuhondo mu mazina akaba ari amabara y'umukara, agaragaza ibyapa by'izo sosiyete zombi, zikorerwamo abantu barimo baratanga serivisi bagera muri babiri n'abandi bategerejereza serivisi bari ku ruhande rwazo.

Ahakorerwa ibijyanye n'ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga na sosiyete ya MTN, harimo abagabo bane bambaye imipira y'umuhondo hari n'icyapa iruhande rwabo kigaragaza iyo sosiyete ko ari umudamu uteruye anverope imwe muntoki nukundi kuboko hasi wambaye ikanzu y'umutuku urimo uragenda.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa sosiyeti ya MTN y'itumanaho, ikorerwamo ubucuruzi bujyanye no kohereza no kubikuza amafaranga no kugura amayinite, inzu iri mu ibara ry'umuhondo, yanditse mu mazina y'umukara n'irindi bara ry'umutuku, harimo umuntu mo imbere urimo aratanga serivisi zikorerwa aho ngaho.

Mu nzu ya sosiyete y'ikoranabuhanga ya MTN irimo abakozi babiri bayo b'abagabo hakaba n'umukiriya umwe w'umugabo imbere ye hari imashini na soli iba imbere bifashisha mu buryo bwo gukoresha ibyo.

Inzu ikorerwamo na sosete y'itimanaho ya MTN mubijyanye nokohoreza nokwakira amafaranga nogucuruza amainite hari umugabo umwe w'umukiriya n'undi n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo uramuhereza serivise imbere yabo hari imashini hasi yabo kumeza hariho agatabo k'umuhondo.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ifasha abakiriya mu buryo bwo kwakira no no kohereza no kugura amayinite yo guhamagara, akaba ari ari icyapa cy'iyo sosiyete na terefone iriho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ryanditseho emutiyeni mobayiro mani n'ibara ry'umukara ryanditseho mekingi rayifu izi.

Ni akazu k'ubucuruzi bwa sosiyete ya Airtel y'itumanaho kagaragara mu ibara ry'umutuku gafunguye, amazina yumweru, yanditsemo n'ibara ry'umuhondo rigaragaramo aho hangaho.

Akazu k'ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga ka sosiyete ya eyateri, kari mu ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru ryanditsemo amazina ry'iyo sosiyete, hakaba iruhande haparitse moto n'umuntu ugaragara ukoreramo mo imbere yaho.

Akazu gakorerwamo na sosiyete y'itumanaho emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo, gakorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bwo kohereza no kwakira amafaranga, kakaba kanditseho amagambo mu ibara ry'umukara hariho n'ibyapa bigargaza ko ariyo sosiyete ihakorera.

Inzu ikoreramo ubucuruzi bujyanye no kugura ama inite no kohereza no kwishyura amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga rya mobayiro mani, inzu ikaba iri mw' ibara ry'umuhondo rya sosiyete y'itumanaho yitwa mtn, iruhande rw'iyo nzu har' indi nzu yibara ry'umutuku ya sosiyete y'itumanaho ya airtel.

Ahakorerwa na sosiyete y'ubucuruzi mu bujyanye n'itumanaho ya MTN, hakorerwa ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira amafaranga hariho icyapa kigaragaza iyo sosiyete kikaba kiri mu mabara y'umuhondo n'amagambo yanditse mu mabara y'umukara na telefone hejuru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza amayinite no kohereza amafaranga no kwakira amafaranga, ikorerwamo na sosiyete ya emutiyene, inzu iri mu ibara ry'umuhondo, hahagaze abagabo batatu, bategereje serivise, n'abandi badamu babiri bahagaze iruhande rwabo, bategereje serivise, n'undi mudamu urimo mo imbere, urimo urabahereza serivise.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi bujyanye no kohereza no kwakira ibicuruzwa byaguzwe iri mu ibara ry'umutuku , hari na moto iri mu ibara ry'umutuku urwo urubuga rukaba rwitwa Yego. Hakaba hariho na nimero zarwo uhamagarwa icyenda rimwe icyenda rimwe hakaba.

Aha Ni mu muhanda haparitsemo moto n'abantu babiri umwe wambaye kasike bigaragara ko ataye moto kuriyo moto hakaba hariho ikarito atwayemo ibicuruzwa yatumye n undi muntu uje kubyakira wambaye agapira k'umutuku n'agapfukamunwa k'umukara bahagaze mu muhanda

Urubuga rw'ikoranabuhanga mu bijyanye no kohereza no kwakira ibicuruzwa bitandukanye, moto iriho ikarito y'umutuku n'umumotari uhagaze iruhande rwaho wambaye umupira w'umutuku, na kasike y'umutuku n'intweto y'umuhonda n'ipantaro y'ubururu, ufashe ibyo bamutumye.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga rucururizwaho ibikoresho bitandukanye.

Inzu igaragara yuko ikorerwamo ubucuruzi bijyanye n'ibintu by'ibitoki hari ibiri mu bitebo hari ibyo barimo barapima ku munzani , barimo abadamu henshi bambaye utuntu mu mutwe tw'umweru bakaba bambaye n'amataburiya y'umunara

Umugabo wicaye kuri moto, moto iri mu ibara ry'umutuku, umugabo akaba yambaye ipantaro y'umukara umupira wa oranje kuri iyo moto hakaba hariho igikapu gisa oranje n'umuhondo akaba ari garayaye ko atwaye ibicuruzwa abayatumweho.

Umugabo uhagaze mu muhanda w'amabuye, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari igipangu, uwo mugabo akaba yambaye umupira w'icyatsi na kasike y'icyatsi, akaba ari kuri moto iteretseho igikarito nacyo kiri mu ibara ry'icyatsi rya kampani yitwa vuba vuba.

Umugabo w'umumotari utwaye moto, ufashe telefone mu ntoki, wambaye kasike y'umutuku, akaba ari kuri moto, yikoreye ikibokisi cy'umutuku n'ibara ry'umweru, kigaragaza kampani akorera, yitwa rashi fudu.

Abantu babiri harimo uwambaye imyenda y'icyatsi na kasike y'icyatsi ufashye ku ikarito nayo ifite ibara ry'icyatsi iteretse kuri moto n'undi umuri i ruhande wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku bahagaze i ruhande rw'igipangu gisa umukara.

Inzu ikorerwaho n'urubuga rw'ikoranabuhanga mu bijyanye no gutuma no korohereza ibicuruzwa, rwitwa ihaha, hakaba imbere haparitse imodoka na moto, hakaba hari n'umuntu urimo uramanuka n'undi uhagaze mu muryango n'undi urimo imbere mu...

Sisiyete y'ikoranabuhanga y'ubucuruzi yitwa VubaVuba mu bijyanye no kohereza no kwakira ibyo waguze, moto n'umugabo uyitwaye wambaye kasike n'icyapa cya hoteli cyitwa Kivu Ma Mirina.

Umugabo wambaye ijiri ya oranje wambaye kasiki y'icyatsi urimo urakora mu ikarito isa umutuku akuramo ibicuruzwa yatumwe iyo karito ikaba iri kuri moto akaba ari mu muhanda, iruhande rw'umuhanda hari ibiti n'imodoka irimo iragenda mu muhanda y'umukara.

Urubuga rukorerwaho ibijyanye no gucuruza no kohereza ibiribwa cyangwa ibicuruzwa runaka byaguzwe, hakaba hari umudamu wambaye umupira w'icyatsi, ufashe amvelope irimo ibicuruzwa birimo imbuto, hakaba hari n'undi wambaye ishati y'umutuku uri iruhande.

Mu muhanda hari ama esikariye n'undi muntu uri ruguru wambaye agapira k'umuhondo n'undi uri iruhande wambaye ipantaro y'umukara na moto iri aho ngaho iri mu ibara ry'umutuku, yikoreye ikarito iri mu ibara ry'ubururu, iriho ibyapa byandikishije mu ibara ry'umuhondo n'andi mabara y'umweru.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi butandukanye mu buryo bwo kohereza no kwakira, tubonaho icupa ry'amazi, icupa rya gaze, moto yikoreye akabogisi batwaramo ibyo babatumye, hakaba hariho na nimero za telefone bakoresha kuri Whatsapp n'icyapa kiri mu izina ry'iyo kampani bita Biras.

Abantu babiri bambaye imyenda y'icyatsi na kasike bombi hejuru y'icyapa kigaragaza ahantu hakorerwa na hoteri yitwa rakarasi hoteli, bahagaze ku ikarito isa icyatsi iri kuri moto ikoreraho urubuga rwikoranabuhanga rwitwa vuba vuba.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga ujyaho ugiye gushakiraho ibicuruzwa bitandukanye uru nguru ariko rwo rukaba ari urw'imboga n'imbuto zigeye zitandukanye, aho tubonaho tangawize, kokombure n'izindi mboga zitandukanye, hejuru yaho n'ibiciro byaho bikaba biriho.

Umuntu utwaye moto iriho ikarito y'urubuga rw'ikoranabuhanga rucururizwaho bita kasha akaba yambaye kasike akaba atwaye ari kuri iyi moto hakaba hagaragara ibyatsi iruhande rwiwe n'ibiti iruhande rwiwe.

Moto iri mu muhanda iparitse mu muhanda yikoreye ikarito y'icyatsi yanditseho kampani igurisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, yitwa vububa vuba iyo moto ikaba iri mu ibara ry'umutuku, iruhande rwaho hakaba hari ibiti hirya yaho hakaba hari igiti n'igopangu.

Urubuga rw'ikoranabuhangia rucururizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye amashakoshi ,imyenda, ibikoresho bya eregitoronike bitandukanye amaterevuziyo, hakaba hariho ibiciro byayo bigaragaza uko ibyo bigurishwa bigurwa.

Uburyo bw'ubucuruzi mu buryo bw'ikoranabuhanga, aba ni abagabo bane b'abamotari batwaye amakarito ane ya orange, bambaye n'amakasike bombi uko ari bane.

Abantu babiri bahagaze bafashe kasike zisa icyatsi, abo bantu harimo uwirabura n'undi wera, wambaye imipira y'imikara, bari inyuma y'igikuta giteresheje karabasasu, umwe yambaye rinete z'umutuku, undi yambaye rinete z'umukara.

Abantu batatu bicaye kuri moto bombi batwaye moto iriho udukarito dusa twombi, bambaye kasike kuri izo moto bafite purake zose zisa umuhondo, bari ahantu hari ibiti hameze nk'ishyamba.

Moto iri mu muhanda w'amabuye akaba ari igipangu kiri iruhande rw'uwo muhanda wubakishije amabuye ya mpunyu, akaba iyo moto iriho umuntu wambaye umupira w'icyatsi, ikabi ihetse n'ikindi gikarito cy'icyatsi cyanditseho amagambo yabo vuba vuba ya kampani ikorera.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa vuba vuba, harimo umukobwa wambaye amaherena urimo uraseka, wambaye n'umupira wanditseho iyo sosiyete ya vuba vuba. Akaba arimo arafata ibicuruzwa yatumweho agiye kubyohereza muri bogisi.

Moto iri mu ibara ry'umutuku ifite purake iri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, ikarito y'icyatsi, hakaba hari umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi, usa nk'ibara ry'iyo karito, hakaba handitseho amagambo yitwa vuba vuba.

Urubuga rwikoranabuhanga rucururizwaho gutumiza no kwakira ibicuruzwa abamotari bagera muri batanu bambaye kasike nudupfukamunwa na moto zabo uko ari enye.

Umuntu uhagaze mu muhanda wambaye kasike iruhande rwe hari ikarito y'umutuku kandiseho kefisi, iruhande rwe hahagaze imodoka, iyo karito ikaba iteretse kuri moto y'unururi hirya hakaba hari amazu amukikije.

Urubuga rw' ikoranabuhanga rucururizwaho rukanatumizwaho ibintu rw' itwa Vuva vuba hariho umunyonzi utwaye igare ufite n' ikarito mu mugongo irimo ibicuruzwa yatumwe.

Umugabo uri mu muhanda ufashe ku ikarito iteretse kuri moto, umugabo wambaye imyenda y'icyatsi n'ikarito afashe ikaba isa icyatsi, akaba yambaye kasike nayo y'icyatsi, akaba ari mu muhanda, aho iruhande rw'umuhanda hari ibiti n'utundi duteretse mu muhanda tw'umutuku n'umweru.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rucururizwaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye rwitwa Migro, birimo ibicuruzwa nk'imbuto, amamodoka, tukaba tubonaho imbuto z'inyanya, amashu, voka, imineke.

Urubuga rwikoranabuhanga rucururizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye ibijyanye na eregitoronike inkweto ama ekuteri imyenda n'amakanzu nibindi bigiye bitandukanye hakaba hariho nibiciro ibyo bicuruzwa bigura.

Mu muhanda hagendwamo abamotari, benshi batandukanye bambaye imipira isa y'umutuku yanditseho yego moto, na kasike zanditseho yego moto, izo moto zikaba zigera mu munani zirimo ziragenda mu nzira harimo n'itwaye umugenzi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga tubonaho telefone, kompiyuta, harimo inkweto eshatu n'imipira ine. Hakaba handitseho n'amagambo agaragaza ibicuruzwa biri muriyo sosiyete.

Inzu icururizwamo na kampani yitwa ruti Rwanda onurayini sitowa. Ni inzu ikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu gucuruza no kwakira abantu. Icururizwamo amatelefoni, amateleviziyo n'ibindi bintu bitandukanye. Hakaba harimo abantu babiri n'abagore n'umugabo umwe.

Umuntu ufashe terefone mu ntoki n'ibiganza bye byombi, umuntu wambaye umupira w'ubururu, mu iyo terefone afashe harimo ibara ry'icyatsi rigaragaza sosiyete y'ubucuruzi bw'koranabuhanga, utumirizaho ibyo ushaka kugura, iri mu ibara ry'icyatsi yitwa vuba vuba.

Inzu ikorerwamo n'ubucuruzi bukoreshwa ukoresheje ikoranabuhanga bwitwa Jumia Food akora muhagazemo umugabo wambaye umupira wa orange n'ipantaro y'ubururu iruhande rwe harimo etajeri arimo apakira n'ibintu bitandukanye ateruye ikarito yanditseho ya kompanyi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa vuba vuba, hariho abakobwa babiri, umwe utanga n'undi wakira ibicuruzwa yatumijeho, harimo amavuta, imboga,...

Inzu ikodeshwa, igaragaza ibiciro ikodeshwaho, ari byo amadorari magana tanu mirongo itanu ku kwezi, hakaba harimo utubati, hakaba harimo igitanda gisasheho kuvureri, hakaba hari umuryango hirya ufunguye, uri mu ibara ry'umutuku, iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umweru.

Inzu yo gukodesha mu byiciro iturwamo, akaba ari inzu igeretsa inshuro eshatu ikaba ifite utwuma imbere yaho tw'umukara, ikaba irimo akabara k'umweru n'inzugi ziri mu ibara ry'ikibaho, hakaba hari igiti k'icyatsi iruhande rwaho.

Inzu ikodeshwa igeretse incuro ebyiri, ifite amabara ikagira n'amabara y'icyatsi. Ifite inkingi ziriho amakaro, hakaba hagaragara n'ibiciro byayo. Iyo nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana arindwi buri kwezi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byinshi, ibiribwa, ibinyobwa, imboga, imbuto n'ibindi bucuruzwa bitandukanye harimo amafanta, amayoga, amabyeri n'ibindi bitandukanye harimo abantu.

Abantu babiri b'abadamu bambaye ibitambaro mu mutwe, umwe wambaye igitambaro cy'igitenge undi yambaye igitambaro kiri mu ibara rya orange, bafashe udupapuro tubiri tw'icyatsi tugaragaza y'uko ari mituweli, imbere y'aho hakaba hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi, ibari imbere bigaragare nk'aho bari kwa muganga.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, umugabo wiraburatetse umusatsi ufashe icyapa mu ntoki kigaragaza amafaranga yahawe kigaragara nka cheque kilomatariki niigiciro cyamafaranga ariho undi muhagaze iruhande wambaye ikote ry'umukara ufashe mikoro mu ntoki umugabo wambaye ishati yumweruru n numukara.

Gukorera ibikorwa bitandukanye bijyanye no gutanga serivisi mu baturage, harimo gutanga mituweli n'ibindi bitandukanye hakaba hari abantu benshi; abadamu, abagore, abana bagiye bambaye imyenda itandukanye bose baba baje kwaka serivisi ahongaho.

Ikigo ngororamuco cyangwa gereza ya Huye ifungiwemo imfungwa zakatiwe igifungo k'imyaka runaka bitewe n'ibyaha bakoze. Hubakishijwe amabuye akomeye ndetse n'ibyuma.

Isoko rigari rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ibiribwa bitandukanye, hakaba harimo etajeri ziteretsemo ibyo binyobwa, amaji, amabiswi, amayawurute, n'umugabo uri aho ngaho wambaye ikositimu y'umukara ufashe terefoni mu ntoki, wambaye ishati y'umweru na karuvati n'undi uri inyuma yaho.

Isoko rigari riri mu ibara ry'umweru, harimo etajeri ziteretsemo ibicuruzwa bitandukanye; ibyo kunywa, ibyo kurya, n'ibindi bitandukanye, amacupa atandukanye, harimo nk'ibisembuye n'ibidasembuye, byose birimo.

Ahokorerwa ubucuruzi bujyanye n'isoko rigari harimo umudamu wirabura ufite imisatsi y'imikara wambaye agapira ka shokora n'undi mugabo urimo uramwakira imbere ye hari imashi uwo mugabo akaba yambaye umupira w'umutuku.